Mwarimu ari gusobanurira abanyeshuri uko ibintu bikorwa, bose bari kumureba bafite amatsiko yo kumenya ibyo arimo, ndetse n'abandi bari kugerageza kubikora.